Umugore wambaye agashati k'icyatsi afite n'imisatsi ya menshi, akajipo k'umukara, ari imbere y'ameza ariho ifu ya shisha kibondo, hari umugabo uri kuza wambaye akajiri k'umukara n'amadarubindi aje kumuha iyo fu.

Agacupa k'umweru kandiditseho amagambo mu ibara ry'ubururu, hashushanyijeho umupfundikizo w'ubururu, hariho igisiga kiri kuguruka ndetse hakaba harimo umuti gakondo uvura indwara zigiye zitandukanye.